Ikigo cy'amashuri kirekire gifite ubusitani bwiza, aho uruhande rumwe gisa umweru, amabati y'icyatsi, urundi ruhande kikaba gisa n'umutuku, amabati ari ubururu, gifite abanyeshuri benshi baje kuhiga bambaye amashati.

Abantu benshi cyane bafite imyambaro itandukanye, bote n'ibisurubeti by'umutuku n'ubururu, barimo barayobora sima ku bitiyo, barimo kubaka inyubako nziza.

Umubaji arimo arabaza urubaho akoresheje iranda n'umusene, umubaji wambaye ingofero y'umutuku urimo arakorera akazi ke mu nzu ifite amakaro atambitse ku rukuta andi ahagaritse.

Itsinda ry'abadozi benshi harimo: abagabo ,abagore n'abana bambaye impuzangano barimo baradoda imyenda yiniforume y'abanyeshuri.

Umukobwa mwiza cyane wicaye muri saro. Akenyeye sime barimo barita ku musatsi we, ku ngohe ze, ku maherena ye, arimo aranireba mu kirahuri kugirango arebe uko barimo barabikora kugirango abashe kumererwa neza.

Atoriye nini cyane ifite abakozi barimo barakora imashini zapfuye, abandi barimo barareba kuri televiziyo imashini zo kwambara zishobora kuba zangiritse mu mugoroba washize, umwe yambaye inkweto isa n'igitaka.

Ibarizo rirerire rifite ubugari buhagije, rifite ababaji benshi bambaye iniforume zisa ,ubupfukamunwa bw'ubururu n'imashini zihagije zisatura ibiti bigufi ndetse n'ibiti birebire.

Umwana mwiza cyane urimo araseka iruhande rw'ishuri ryabo ufite impuzangano y'ubururu, arimo arashushanya umugabo umeze nka supayidamani, ufite amaguru asobekeranye, arimo aramurika igishushanyo cye mubashyitsi.

Ishuri rigizwe n'ibice bibiri : intebe makumyabiri n'umwarimu, abantu bataratu bicaye mu gihande kimwe abandi bataratu bicaye mu kindi gihande, mwarimu arimo arigisha ku kibaho abanyeshuri bamuteze amatwi.

Inama y'abanyeshuri benshi bicaye muri rumu, bategerereza uza kubaganiriza bamwe barandika, abandi bambaye ubupfukamunwa busa n'umukara ndetse n'umweru abandi bafite bike zandika neza.

Inzu ifite ibikoresho byinshi cyane, kamera zifotora ndende n'ingufi, amasaha ndetse n'ibikomo, harimo umugabo ufite umutsatsi umutwe wose, wambaye n'agapfukamunwa, n'ubwanwa burebure, urimo arafotora.

Abakanishi barimo barakanika bifashishije imashini zitandukanye, bamwe bafite ibisuko abandi bambaye amarinete barimo baraseka, imashini yapfuye bagira ngo barebe ukuntu bashobora kuyifasha ibashe kuba yagenda inakoreshwe mu modoka.

Abakanishi bari mukanikiro barimo barakanika bakoresheje isupana ndetse n'igifashi bose bambaye impuzankano isa n'umutaka babiri bacanye umuriro bakoresheje amatafari abandi barimo barahonda bacura.